Abanyeshuri babiri bicaye mu ishuri kandi bishimye cyane, umwe muri bo akaba yazamuye agatoki agaragaza ibyishimo birenze.

Aba ni abana babiri bari imbere y'umugezi barimo barakaraba intoki ariko kandi bagaragaza ibyishimo hagati yabo.

Umuganga urimo uravura umurwayi ku gitanda cye, amupima umuvuduko w'amaraso, ari nako amukora ku mitsi kandi ari kumwe n'undi muganga w'umugabo.

Abantu bicaye higanjemo abagore, abagabo n'abasaza b'impu zitandukanye abazungu n'abirabura basa nkaho baje mu nama, bicaye ku matabure ariho amazi ndetse n'udutabo duto two kwandikamo.

Aha haragaragaza umuganga urimo arapima umurwayi umuvuduko w'amaraso ku kaboko ari nako areba ibipimo biri muri iyi mashini ipima iyi ndwara.

Uru ni uruganda aho mo imbere harimo ushinzwe gucunga ibikorwa biri kuberamo kandi akaba yambaye ingofero imurinda impanuka.

Umugabo n'abana barimo barasobanurirwa gahunda babifashijwemo n'abayobozi babihuguriwe kandi bambaye impuzankano ibibemerera.

Abana b'ababanyafurika barimo baravoma bamwe mu ndobo abandi amajekani kandi uwo mugezi ukaba ufite aho kuvomera habiri hatandukanye.

Umugabo uri ku mugezi wagiye kuvoma amazi, ariko kandi akaba yishimye cyane, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umwana uri kuvoma amazi yo kunywa ku mugezi yifashishije igikombe cyo kunyweramo kandi akaba ari kubikora ari ko anamwenyura, mbese ubona ko ubuzima bumuryoheye.

Icyapa kigaragaza gahunda yo gusakaza ubumenyi ku bijyanye n'umushinga w'icyorezo cya Korona virusi mu Rwanda, wari kuba kuri makumyabiri n'eshanu z'ukwa cyenda.

Umukobwa wicaye ku gasambi mu ishyamba, usa nkaho ababaye kandi akaba aziritse n'umunyururu ku giti, iryo shyamba ryuzuyemo ibikoresho bitandukanye.

Umugabo wicaye mu nzu ku mukeka usa nk'aho aziritse amaguru kandi yihebye cyane, akaba yikenyeye igitenge.

Uyu ni umugabo usa nk'aho ari umusazi, utiyogoshesha haba ku musatsi ndetse n'ubwanwa kandi akaba yambaye imyenda icikaguritse.

Uyu ni umusore uri kwireba mu kirahure kandi akaba afite akadodo k'umweru kifashishwa mu menyo, akaba ari guseka cyane.

Umugabo urimo kwikura imyanda iba iri hagati y'amenyo akoresheje agakoresho kabugenewe kameze nk'aho ari umugozi w'umweru, gafasha mu gusukura neza hagati y'amenyo, kugira ngo imyanda yaririmo ivemo.

Uyu ni umurwayi umaze gukurwamo iryinyo, abifashijwemo na muganga, kandi akaba afite ibikoresho byabugenewe, kimwe gifashe iryo ryinyo.

Umugore ufite isahani y'ibiryo ndetse n'ifoke kandi akaba yishimye arimo guseka, asangwa mu myaka n'izabukuru.

Umusaza wavunitse, wicaye mu kagare, arimo gusunikwa n'umukobwa bose bishimye, kandi bari guseka cyane.

Umubyeyi wari umaze igihe arwaye arikugenda ku gakoresho gafasha abantu kumenyera kugenda kandi akaba abifashwamo n'umukobwa.

Uyu ni umuryango ugaragara, aho abana n'ababyeyi bishimye, cyane cyane akana kari hagati muri bo gatoya.

Aho umumama n'umupapa bari mu kwamamaza gahunda ijyanye n'imyanda yo kuvangura ibibora n'ibitabora ku bufatanye n'ikigo cyitwa global green instutute.

Iyi ni inama irimo abantu bicaye bareba imbere, bakurikiye ikiganiro kiri kuba kiyobowe n'umugabo umwe kandi arimo aragenda abaza ibibazo abandi batanu bicaye imbere.

Inama yari yabaye ivuga ku gutanga umusanzu ku buzima, aho abaturage bari bayitabiriye ndetse n'abayobozi bicaye imbere barimo barabaganiriza.

abantu batandukanye b'igitsina gitandukanye harimo: abagore, abagabo kandi abagabo bakaba bambaye amakarita bigaragara ko baje mu nama.

Aba ni abakobwa benshi bahagaze, bambaye umweru hejuru kandi bagaragara nkaho bari kwamamaza igikorwa runaka kibereye mu nzu mo indani.

Iyi ni inzu aho ababyeyi batwite cyangwa se benda kubyara bafashirizwa mu kwibaruka, kandi iyi nzu yifashishwa n'abari n'abategarugori mu gihe baba bakeneye amahirwe ku bijyanye no kwibaruka.

Iyi ni inyubako igeretse imwe bakunze kwita etage kandi ikaba iriho n'indabo. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi dukunze kwita polyclinic.

Aha ni ahatangirwa serivise, aho umuganga, ari kugenda yakira abantu batandukanye, ugezweho akaba ari umuntu ufite ubumuga wicaye mu kagare, abandi bakaba bategerereje ku mirongo.

Ibi ni ibyuma bitandukanye, bigaragara ko bicometse kandi bifite ikoranabuhanga rihanitse, ku buryo bikoresha umuriro w'amashanyarazi kandi byifashishwa mu gutanga serivisi yihuse.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye ariko by'umwihariko ibifasha abarwayi guca mu cyuma, bakamenya uko bahagaze kandi kikaba gifite ikoranabuhanga rifasha umurwayi kuba aryamyeho.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi ari kugerageza gutoza amaboko no gukomera kwayo akoresheje igikoresho cyabugenewe kimeze nk'umugozi ariko nanone cy'umuhondo.

Uyu ni umwana muto uri gukora siporo cyangwa se urimo kugorora ingingo z'umubiri kandi ari kubikorera mu rugo ku itapi cyangwa se agakoresho kabugenewe.

Muganga arimo gufasha umurwayi kumenyera kugenda nyuma y'igihe a kwa muganga. Kandi na none uyu murwayi yambaye umukandara ndetse n'imyenda yo kwa muganga.

Ikimera gikunze kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kitwa umuravumba, kandi iki kimera nanone gikunze kwifashishwa cyane cyane mu bavuzi ba gakondo.

Ibinini biteretse ku kibabi bigaragaza ko ibyo binini bishobora kuba biva muri icyo kimera kandi bitanga umusaruro munini ku buzima bw'abantu ndetse n'inyamaswa.

Amavuta ya shampoo yifashishwa mu gutuma umusatsi umera neza waba uw'abahungu cyangwa uw'abakobwa kandi aya amavuta akaba akorwa na aloe company jojoba.